Umuyobozi w'umutekano yasuye abaturage aho wabonaga higanjemo :abagore ,abakobwa, abasore n'abasaza bamuteze amatwi bose icarimwe.

Abari n'abategarugori bari gukora isuku mu muhanda, bari gukubura bifashishije imikubuzo, bambaye imyenda igaragaza ko bari mu gikorwa gitandukanye n'ikiba gisanzwe. Abanyeshuri nabo bari gutambuka bari kujya ku mashuri, bagenda babanyuraho, abandi nabo bagenda bakubura umuhanda.

Umubyeyi afashe ijambo. Hakurya hari umuyobozi w'umutekano, umusirikare. Impande y'uwo mubyeyi wafashe ijambo, hicaye abaturage bateze amatwi ijambo umubyeyi ari kubabwira, inyuma y'uwo mubyeyi, hari umuyobozi w'umutekano uhagaze hafi ye.

Ababyeyi bari kuboha ikirago bari kuboha babisikanya; kera twabohaga ibirago tukabiboha cane kandi bikaduha umusaruro, bigatanga n'amafaranga urabona ko n'abangaba rero babukereye bari kuboha ibirago kandi byiza cane.

Imivure ibiri ifite agatanda hejuru ko kamoza umutobe uvuye mu bitoki. Iyi mivure iteretse ku kirago cyiza cane, ndetse impande yaco hariho n'umucirago gitatse neza cane.

Abanyarwandakazi ba kera bavomeraga mu bicuma no mu bibindi kandi amazi ntameneke kandi ntibanyerere cangwa ngo bagwe. Wari umuco wa kera abanyarwanda bakoreshaga, bambaraga kandi impu bagakinga imbere impu, hejuru bagatambikamo akantu gafungiye inyuma mu mugongo.

Abakobwa beza cyane bari kubyina bishimye baseka. Bagaragaza ibyishimo byabo mu maso, bikoreye ibyibo ku mutwe. Imitwe yabo bashyizemo ingori. Ndetse bambaye amasengeri asa n'umweru bose.

Umusatsi mwiza cyane ushokojwemo amasunzu maremare aringaniye, kandi afite imisoso myiza cyane ijyanye n'umusatsi.

Abishyize hamwe ntakibananira abaturage bashyize hamwe cane, bose berekeje amaboko gwabo bari gukora. Mu majaruguru dukunda gukorera mu mashirahamwe, iyo dushyize hamwe, tubona umusaruro mwinshi kandi utubutse.

Inzu yubatse ahantu heza cane, ifite n'indabo twebwe ababaturage tukundaga cane ,uretse kuzihendaga. Imbere yaho hasutse amabuye meza cane kandi garatondetse neza, yanditseho n'ibintu by'umweru ariko ubona ko bitagaragara hirya naho hari ahantu bashaka kuzandika arikubona handuye.

Ababyinnyi b'abagabo beza cane, bambaye neza ,bose bari kubyina bafite ingabo, ndetse bashinze umugara ,basimbutse bari mu kirere.

Abadamu babiri bicaye ku ntebe za kinyagwanda, bari kuboha imitako harimo kubamba ingoma, gutaka amasaro ku macumu n'ababyeyi babiri bicaye, hakuno hari inkongoro, hakurya hari akandi kantu kameze nk'inkongoro.

Ingabo, icumu, agaseke bikoze umutako mwiza cyane, ku buryo ahantu utatse ubona hakeye cyane birenze.

Ababyinyi gazi kubyina cane, bashinze umugara, bari ku kibuga cyiza cane aho bagiye gusura inzibutso z'aho abami babaga kera. Urabona ko bafite amacumu n'ingabo zabo, bambaye neza cane.

Ababyinnyi beza cyane, bashinze umugara abari n'abategarugori. Bateretse ingoma ku iruhande barimo barazivuza, abandi bambaye ubusa, abandi bambaye amasengeri. Barimo kubyina neza cyane, bari gutaruka hejuru bagashinga umugara, ababyeyi n'abagabo bakuze bo bagacurira.

Ibibindi bishaje cane, umugabo agenda abibumba, abisana, abisana, agafata urugata agashyira mu nsi kugira ngo atereke ikibindi kitaza kumeneka, hanyuma agasukamo ibyo ari bushiremo, agashyiraho akagozi agafunga ikoma, washaka kunywa ugapfumura ikoma ukanywa.

Abanyarwandakazi bishimye bafite imirisho mu ntoki, bafite utuntu bambaye mu matwi ubona bose ko banezerewe cane. Ibi ngibi abanabanyarwanda turabikundaga cane, kubona nk'umugabo ari kubyina cangwa se ari kuvuza ingoma, cangwa kubona umubyeyi ari kuvuza ingoma. Abanyarwanda turabikundaga cane.

Igikoresho c'ikoranabuhanga ciza cane gikoze neza gifite ibice byiza cane ushobora gukoresha cangwa se kwifashisha uri gufotora impapuro, amadokima atandukanye n'ibindi giteretse ahantu heza cane hubakishije n'amakaro.

Uyu mukobwa yarambuye amaboko neza cyane, arishimye, ari kwifotoreza imbere y'inzu nziza cyane, urabona ko imbere y'iyi nzu cangwa se urusengero hateyeho indabo, twebwe abaturage dukunda gutera cyane imbere y'inzu.

Inzu nziza cane igeretse inshuro itatu, ifite amadirisha meza cane atuma hinjira umwuka kugira ngo abaturage barimo bahumeke neza cane. Umwuka ni ingirakamaro ku muntu aho yaba aherereye hose.

Inyubako y'ikigo cy'amashuri abanyeshuri bararamo, igeretse inshuro ine, abanyeshuri bagiye bakorerwa amasuku, bagiye banika imyenda yabo hanze, ubundi bakaja mu mashuri yabo.

Ikibuga cyiza cane gikikijwe n'ibiti birebire cane bitanga umuyaga, gifite amabendera abiri y'ibihugu bibiri bitandukanye. Kiriho abantu bicaye iruhande rw'ayo mabendera, abadamu, abagabo n'abakobwa basa na ho hari ibintu bategereje.

ikigo cy'amashuri gifite ibice bibiri igice co ruguru kiriho ibigega bibiri igice c'epfo naco kikabaho ikigega kimwe. Ibi bigega bigifasha gufata amazi aturutse ku mashuri kugira ngo ataza kwangiriza ubutaka . Abanyeshuri bifashishaga ariya mazi kugira ngo babashe gukora isuku mu kigo cyabo.

Abagabo babiri bari kunyura ku nzu nziza cane, ku ruzitiro rwayo iteye indabo dukundaga cane. Inzu ifite amadirisha atanga ubuhumekero meza cane, kandi ifite n'urubaraza rwiza cane wahagararaho ugafata agafoto ukabona bimeze neza cane.

Urubyiruko rurimo abasore n'inkumi, bateraniye ahantu hamwe mu mahugurwa ,aho bari bambaye ibisa bose ,ubona ko bishimye cane, kandi banezerewe.

Abanyozi batatu: babiri bafite abagenzi b'abadamu, umwe ntago yari yabona umugenzi ariko nawe araza kumubona, arimo arareba inyuma ngo arebe ko yamubona.

Umushinga mwiza cane wo guhinga urutoki. Ahantu heza cane hasi mu gishanga hafi y'umuhanda wa kaburimbo, aho imodoka zigenda zinyura zireba ubuhinzi bw'urutoki, hahinze umuceri n'amapasiparume meza cane.

Urujya n'uruza rw'abanyeshuri bari kujya cyangwa se kuva ku mashuri, ubona barangajwe imbere n'abayobozi bari kubafasha kujya kubona amamodoka yo kugirango urugendo rwabo rugende neza.

Ikinyabiziga gitwara imizigo inyuma gifite umushoferi umwe imbere bacyita moto. Ni cyiza cane, ni gishasha giteretse ahantu heza cane, umumotari ugitwara aba atari kunyagigwa, hejuru ye hakoze akantu kameze nk'umutaka.

Imodoka ndende cane, ubona ko igendamo abantu baje gusura u Rwanda, iri ahantu heza cane, hari ama pave, ubona ko iyi modoka ishobora kuba igendagamo abantu benshi, kandi baje gusura igihugu cacu.

Abagabo babiri bafite udukinisho two gukina udutenesi. Umugabo w'umuzungu arishimye cane, yambaye ingofero, ashimishijwe no kuba agiye gukina umukino, ari kumwe n'umwirabura, nk'uko ubona neza cane ko na we yishimye anezerewe. Twebwe abanyarwanda turabikundaga cane kubera ko iyo tubonye abazungu tuba tunezerewe.

Umusifuzi w' umudamu urimo gusifura umukino mwiza cane wa voleboro aho umukinnyi yasimbutse hejuru cane mu kirere agakubita umupira ariko bakaza kuwutangira.

Umupira hejuru cane w'ababakinnyi bakinaga basiketi, ubona ko nimero umunani asa naho ari muremure cane ugereranyije n'abandi bakinnyi bakinanaga nawe, hahandi ubona ko nasimbuka arahita awubatanga bose akawufatira mu ikirere.

Urubyiruko rurimo: Abagabo n'abagore n'abasore n'inkumi, bari mu myitozo ngororamubiri ubona ko bose babukereye. Bazamurira amaboko icyarimwe, barambura amaguru yabo, ku kibuga kimeze neza cyane, ndetse bishimiye imyitozo yabo.

Imodoka iri kugenda ahantu hari ivumbi n'umucucu mwinshi cane. Ubona ko no kugenda byayinaniye kubera ivumbi rihari. Inyuma y'imodoka, hari urutoke ruyikikije ndetse n'inzu nziza, ku buryo umuntu uhagaze inyuma utabona ukuntu umureba kubera umucucu mwinshi cane.

Umujyi munini cane ufite imodoka zitandukanye, amazu meza cane afite amarangi atandukanye, umutuku, umweru, icyatsi ,umuhondo, amayetaje.

Abakinnyi b'abakobwa, inyuma yabo hari umukinnyi w'umugabo. Bari gukina umukino w'amaboko bita tenisi(tennis),bambaye udupira dusa n'udukabutura tumeze kimwe, ndetse na supurese nziza cane bari ku kibuga ciza cane!

Abadamu babiri bari gukina umukino witwa handibolo w'amaboko, uyu mudamu ari gushaka gutsinda igitego ariko nimero karindwi agashaka kumufata.